Abana bagomba gufasha ababyeyi imirimo yo mu rugo, baje ku ipombo kuvoma amazi yo gutekesha, yo gukoropesha, biragaragara ko ari mu cyaro, inyuma yabo hari ibyatsi, bose batonze umurongo, igihe bategereje ko babaha amazi.

umwana w'umuhungu yambaye ipantaro, yambaye n'ishati y'amaboko ariko izinze, ari guseka cyane biragaragara ko yishimye, agiye gukaraba intoki mu ndobo ifite amabara y'umweru n'ubururu yitwa kandagira ukarabe iteretse ku ntebe, agiye gusukura intoki ze akuraho umwanda.

Robine irafunguye imbere yayo hari umuntu uri gukaraba, ari gukaraba intoki yikuraho umwanda, tuzi ko amazi afasha mu bintu byinshi bijyiye bitandukanye, harimo kumesa, koga, gukoropesha, ari kwikuraho umwanda mu rwego rwo kwirinda indwara zigiye zitandukanye, zandurira mu mwanda uturuka ku ntoki.

Muganga yambaye agapfukamunwa mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu myanya y'ubuhumekero, imbere ye hari mudasobwa hari n'ibindi bikoresho bigiye kwifashishwa avura uyu murwayi. Inyuma ye hari undi muganga na we uri kwandika ibisubizo biri bufatwe, ari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Muganga yambaye imyenda y'akazi. ari kumwe n'umurwayi uryamye ku gitanda ari kumwe n'umurwaza we, bose bambaye udupfukamunwa mu rwego rwo kwirinda indwara zigenda zandurira mu buhumekero, arapima inda umubyeyi yaba afite, hirya ye hari ibikoresho bigiye bitandukanye.

Abaganga bita ku bibazo abaturage bagiye bafite, bagiye kuvura imbere yabo hari ibikoresho hari ameza, bicaye ku ntebe, bambaye imyenda y'akazi, bigaragara ko bagiye kwita ku barwayi.

Abana babiri bishimye, bafite indobo z'imyeru, bagiye kuvoma amazi. Uw'ibumoso ari gufungura kugira ngo avomere mu ndobo zose kuko hari indobe ebyiri. Inyuma yabo hari ibiti, barishimye cyane baraseka. Bagiye kuvoma amazi yo gukoropesha.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bamaze kwiga gusoma no kwandika, barishimye cyane, bicaye ku ntebe z'imbaho, inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara, barishimye cyane babahaye amabiswi, baranezerewe.

Umwana yagiye kwa muganga uvura amenyo, afite impingikirane. muganga afite ibikoresho byabugenewe, agiye kumukuramo amenyo abiri ari ku mpande zombi yaje y'impengekerane.

Abana b'abanyeshuri bicaye mu ishuri abandi barahagaze, bamaze kwiga none bari kumwe n'abarimu babo babazaniye ama biscuit, barishimye cyane bafite akanyamuneza kenshi cyane.

Umugabo yambaye umupira ufite ibara risa n'umweru, afite agashipiri mu ntoki gatu gadufasha kuba umuntu yashobora gukuramo iryinyo riri mu kanwa riri kunyeganyega, na none kakaba kadufasha kwegeranya amenyo bigaragara ko ashaka gukuramo iyi nyinya afite mu kanwa.

Abagore babiri bahuje urugwiro barishimye cyane, bambaye imyenda ya siporo, umugore ukuze cyane yambaye agatambaro k'umutuku ari kugendagenda mu muhanda, bigaragara ko ari gukora siporo ngororamubiri hamwe na mugenzi we.

Umubyeyi igihe arimo arategura amafunguro ya nimugoroba, ari kumwe n'umwana we bari kuganira bishimye, ari gukata imboga zigiye zitandukanye afite imbere ye, yambaye rinete, bose bambaye amaherena.

Ikigo nderabuzima kitwa "RBC" mu Rwanda, gishinzwe kwita ku ndembe zabuze amaraso zikayahabwa n'abandi bayafite, mbere y'uko bayahabwa babanza kuyapima ngo barebe niba yujuje ubuziranenge, maze rero bikabafasha guhereza amaraso abatayafite.

Iyi nyubako iruhande rw'ibumoso hari icyapa cyanditsweho mediyasoro farumasi, giherereye i Remera, gishinzwe kwita ku barwayi, gifite imiti myinshi igiye itandukanye, iruhande rwayo hari imodoka ihaparitse.

Kwa muganga hubatse neza cyane, hateyemo amarangi y'umweru n'amarangi y'icyatsi cyijimye n'ubururu bwijimye. Harimo ibitanda by'abarwayi, igihe habonetse indembe zirembye cyane baryama kuri ibi bitanda byabugenewe.

Ikigo cy'abihayimana gishinzwe kwita ku bana b'abanyeshuri mu Rwanda, kibaha ubumenyi bwo kwiga harimo gusoma no kwandika, imbere yacyo harimo amadapo abiri, iry'u Rwanda tuzi ko rifite amabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu, hari ijambo ryanditse mu Cyongereza riri munsi y'ayo madarapo risobanura ko bahawe ikaze.

Umukobwa ari muri siporo, yambaye inkweto zifunze, yambaye ipantaro, imbere ye hari icupa ry'amazi, afite agakapu kajyamo telefone, ari gukora imyitozo ngororamubiri imufasha kuba yarambuka, ikamufasha kurinda uburwayi bugiye butandukanye bwaza mu mubiri we.

Itumanaho rikoreshwa bahamagarana mu majwi, ifite amagambo yanditswe mu rurimi rw'icyongereza, harimo asobanura guhagarara, asobanura kuba uhagaritse, asobanura no gutangira, ifasha gutanga ubutumwa ufitiye undi muntu.

Igikoresho kidasa ahantu hose, hejuru hafite udukoresho tw'umukara, turiya badushyira mu matwi, uruhande rwo hasi ku musozo wako, kariya gakoresho bagashyira ku mutima w'umuntu igihe bari gupima umutima we ko uri gutera neza.

Amazi n'isoko y'ubuzima adufasha mu mibiri yacu. Akiza indwara nyinshi zigiye zitandukanye ndetse amara inyota. Uyu mugabo yari afite inyota. Afashe amazi ari mu icupa niyo ari kunywa.

Umugabo yambaye ikabutura n'umupira n'inkweto zifunze. Ari mu myitozo ngororamubiri ifasha kugorora ibice by'umubiri bigiye bitandukanye, ikanarinda uburwayi ku buzima bw'umuntu, irafasha cyane.

Umusore yambaye umupira, yambaye n'ikabutura n'inkweto z'umukara, yari ari muri siporo, ari kwirukanka aratsikira, ahita ajya kwa muganga. Muganga amwicaza ku gitanda, ari kumusuzuma, arebe ikibazo afite.

Akagare gahabwa ababana n'ubumuga, gafite amabara y'ubururu n'umukara, inyuma yako hari udukoresho umuntu afata acunga uwo muntu wicaye muri ako kagare, gatangwa na muganga gafasha uwo muntu kugera ahantu ashaka kugera na we byihuse mu gihe ari muri aka kagare kandi afite ikibazo cyo kutagenda.

Umugabo yambaye isengeri y'umukara, ikabutura, inkweto n'isaha. Isaha imufasha kureba igihe akoze iyo myitozo, ari kugorora akaguru ke byamufasha kuba yatsikira ntagire ikibazo gikomeye cyane.

Muganga afasha kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, harimo igifu, amara, impyiko, imbere hari ameza yambaye umwenda w'umweru, afite ibinini mu ntoki ari kubyereka umurwayi uko bigenda bikoreshwa.